Aba ni bamwe mu baturage bari kwifotoreza ku kinyabiziga cy'imbangukiragutabara yifashishwa mu gutwara imbabare bakaziganisha ku bitaro zigahabwa ubuvuzi bityo zikabasha gukira. Hari ibiti byiza bitanga umwuka mwiza wo guhumeka bityo abaturage bakabaho neza.

Ibi n'ibikokoresho byifashishwa mugutanga ubuvuzi bw'ibanze harimo amapamba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iri ni rimwe mu mavuriro abaturage bagana bakahabonera ubuvuzi, hari inzitiramibu zibafasha mu kwirinda malariya, hari aho bajugunya imyanda, hari abaganga bita ku barwayi, hari amadirishya yifashishwa mu gusohora no kwinjiza umwuka mwiza.

Abaturage bafite amatungo magufi yitwa ihene, bicaye mu busitani bwiza harimo ibiti bituma tubona umwuka mwiza ndetse hari n'umugabo ubahagaze imbere uri kubaganiriza.

Aba ni abaforomo n'abaforomokazi aho bari gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku muturage wagize ikibazo cy'uburwayi kugira ngo ubuzima bwe bwongere bumere neza.

Aba ni bamwe mu baforomo n'abaforomokazi bagaragara ku bitaro byinshi bigiye bitandukanye, aho bigaragara ko bari kwita ku murwayi bamuvura, ndetse banahana amakuru ku buryo yavurwa ndetse akanitabwaho, bambaye udukoresho tw'ubwirinzi bityo bidatuma indwara ikwirakwira iva ku muntu umwe ijya ku wundi.

Iki ni kimwe mu binyabiziga byifashishwa kugira ngo bigeze abarwaye kwa muganga bityo babashe kubona ubutabazi, iki kinyabiziga mu bigaragara hari abaturage bakoramo ndetse n'umurwayi bagiye kujyana kwa muganga.

Ababyeyi, abagore ndetse n'abagabo bari guhabwa amahugurwa y'uburyo bakirinda bakarinda na bagenzi babo indwara ya malariya hari intebe nziza bicayeho zituma bicara bakaruhuka.

Ibi ni bimwe mu bitaro byo mu Karere ka Nyagatare, ahagana abarwayi bagiye batandukanye bakahavurirwa, ndetse bagakira. Iyi ni imbangukiragutabara yifashishwa mu kugeza abarwayi aho bagiye kuvurirwa byihuse, hari ikigega kifashishwa mu gufata amazi, bityo abaharwariye bakabona amazi meza yo kunywa.

Ni bamwe mu baturage b'abaforomo n'abaforomokazi, aho bita ku barwayi, babagira inama, babaganiriza ndetse bakanabaha imiti yo kubavura mbese bakitabwaho bakumva baguwe neza n'ubuzima bwabo.

Ababyeyi baje ku kigonderabuzima gupimwa no gusuzumwa uburwayi, kugira ngo bahabwe ubuvuzi bityo babashe gukira, ngo basubire mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bicaye ku ntebe nziza zituma bataruha ahubwo bakumva baguwe neza.

Aba ni bamwe mu baforomo n'abaforomokazi ushobora gutanga ku bigo nderabuzima bikwegereye, aho hari umuturage wabaganye arwaye, bakaba bari kumuha ibisubizo banamuvura ku kibazo agiye afite.

Aha ni ku marembo y'ibitaro bya Nyagatare aho abayobozi ndetse n'abaganga yaba abaforomo n'abaforomokazi bahafatiye ifoto y'urwibutso.

Aha ni kwa muganga ahaparitse imbangukiragutabara yifashishwa mu gutabara imbabare, ibihutana ibageza aho bafatira ubutabazi byihuse kugira ngo batava mu mubiri.

Aba ni bamwe mu baforomo n'abaforomokazi ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye aho bari bari gufatira ifoto y'urwibutso mu muhanda ukunze kugerwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru bagiye batandukanye, hari ibiti byiza byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bigatanga n'inkwi zo gucana.

Aba ni bamwe mu bavuzi bakorera mu gihugu cy'u Rwanda bita ku barwayi, hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gupima umurwayi, hari aho umurwayi aryama akumva aguwe neza.

Aba ni bamwe mu baganga bifashishwa mu kuvura abaturage bagize ikibazo cy'uburwayi, hari amashyamba meza akikije bituma abona umwuka mwiza wo guhumeka, hari umuhanda mwiza abaturage babasha gucamo kugira ngo bave ahantu hamwe bajya ahandi.

Aba ni bamwe mu baturage bahagararanye n'umuganga, aho bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso, hari ibiti byiza bibegereye, bituma babasha kubona umwuka mwiza wo guhumeka, hari ivuriro, bigaragara ko umuturage ahagana akavurwa.

Aha n'ahapimirwa utunyabuzima tutaboneshwa amaso, aho hari umuganga uri kuhasuzumira utwo tuyabuzima tutaboneshwa amaso.

Abanyeshuri bari mu nzu ishinzwe gupima no gusuzuma udukoko tutaboneshwa amaso. Abahungu, abakobwa, bose bari muri iyo nzu ishinzwe gusuzuma udukoko tutaboneshwa amaso.

Abaganga bakora mu kigo cy'Igihugu gishinzwe gupima indwara zigiye zitandukanye, bambaye ibikoresho by'ubwirinzi, bibafasha kurinda intoki, bakambara n'amataburiya, bityo bikabafasha mu kwirinda gukwirakwira kw'indwara.

Umubyeyi ufite umwana ndetse n'umuforomo, aho umubyeyi yazanye umwana kwa muganga kugira ngo abashe gusuzumwa neza bamenye indwara yaba arwaye.

aha ni ku kigo nderabuzima, aho hari ababyeyi baba baje kuhabyarira ndetse bagahabwa n'izindi serivisi nyuma ndetse na mbere yo kubyara.

Iki ni ikigo nderabuzima, kimwe mu bigo nderabuzima biboneka mu Rwanda. Hitabiriye ababyeyi baje kuvuza abana babo ndetse nabo ubwabo bakaza kwivuza. Inyubako nziza yubakishijwe amatafari ahiye. Uhatangira mitiweli kugira ngo ujye ubasha kwivuza kandi neza.

Uyu ni umuforomokazi ndetse n'ababyeyi aho umuforomokazi ari gukangurira ababyeyi mu kuboneza imbyaro ndetse no kwita ku mirire y'abana.

Abaforomokazi ndetse n'umubyeyi wazanye umwana ku ivuriro kugira ngo ahabwe urukingo rwabugenewe.

Iyi n'inzu ibitswemo imiti yifashishwa mu kuvura indwara ndetse no mu kurinda indwara mu gihe warwaye.

Iri ni iduka ricuruza imiti yifashishwa mu kurwanya no kurinda ndetse no gukingira indwara mu gihe waba warwaye cyangwa se mu gihe uri kwirinda uburwayi.

Ibi ni ibinini byifashishwa n'abarwayi kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ushobora kubisanga mu maduka acuruza imiti bityo waba warwaye ukahagera ukahabonera imiti yagufasha.

Iyi ni imwe mu nyubako ushobora kugana ukahabonera imiti yifashishwa mu kuvura amatungo ndetse ikanakumira indwara ku matungo, ikindi ukanahabonera inkingo zigiye zitandukanye kugira ngo wirinde indwara ku matungo.

Imiti yifashishwa mu kuvura, mu kurinda ndetse no gukingira indwara ku bantu bigatuma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Iyi ni imwe mu nyubako icuruza imiti igi itandukanye, ushobora kugana ukahabonera imiti, ukivura ndetse ugakira bityo ukagira ubuzima bwiza, ukabasha gukorera igihugu muri rusange. Iteretse ku kantu keza kifashishwa mu kugira ngo imiti itandukanwe n'iyindi.

Iki ni kimwe mu byapa, kigaragaza ahacururizwa imiti ivura indwara zigiyezitandukanye ku bantu, hari inyubako nziza, hari amatara meza yifashishwa mu kumurika mu gihe bwije.

Iyo ni imiti yifashishwa mu kuvura ndetse no kurinda indwara ku baturage, bigaragara ko ari umuganga, ari gufata umuti agiye guha umurwayi waje umugana, iyi miti itondetse mu gikoresho cyabugenewe neza.

Iki ni kimwe mu byapa bigaragaza ivuriro Rafa kirinike, hari inyubako nziza zigiye zitandukanye, hari abaturage, hari ibyuma, hari ikirabo kiza ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Iyi ni inama rusange aho umutegarugori ari gutanga inyunganizi abaza n'ikibazo ku byo baganirijwe n'abayobozi kuki kigendanye n'ubuzima.

Uyu ni umwe mu baforomo n'abaforomokazi bifashishwa mu gufuhera imiti mu mazu y'abaturage yica ubukoko bugiye butandukanye higanjemo imibu itera indwara ya malariya bityo ikirindwa mu mazu y'abaturage.

Aba ni bamwe mu banyeshuri bitabiriye amahugurwa y'ikigendanye n'ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo nibabona ufite ikibazo abashe kuhabonera ubuvuzi bw'ibanze, hari ibinyabiziga, hari ibyapa, hari intebe ndetse hari n'abana.

Umubyeyi w'umu mama uri gusoroma umuti w'umuravumba ukunze cyane gukiza uburwayi cyane cyane inkorora, hari insina nziza icibwaho ibitoki byo kurya.

Uyu ni umuturage bigaragara ko arwaye indwara y'uruhu, indwara kandi ikwirakwira ishobora no kwanduzwa n'abandi, dushobora kwirinda uburwayi binyuze mu masuku, tukajya tugira isuku mu byo dukora byose.

Ibi ni bimwe mu bikoresho bisigasira umuconyarwanda harimo; impu bambaragara kera, hakabamo imiti yifashishwa mu kuvura abaturage.

Aba ni bamwe mu baturarwanda, baje mu gikorwa kiza cyo gutanga amaraso, kugira ngo umuturage, umuturarwanda, uzagira ikibazo cyo kubura amaraso azayabonere ku gihe.

Aba ni abayobozi ndetse n'abakozi b'ivuriro Girubuzima, aho bari bari gufata ifoto y'urwibutso bahagaze ku marembo y'ivuriro Girubuzima.

Aba ni ababyeyi baje kwa muganga aho umujyanama w'ubuzima ari kubarura imyirondoro y'abana ndetse abagira n'inama z'uburyo baboneza imbyaro.

Iri ni rimwe mu ivuriro riganwaho n'abaturage bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, bakahabonera ubuvuzi bw'ibanze kandi bakitabwaho bakumva baguwe neza. Hari abaturage bigaragara ko baje kuhashakira serivisi zigiye zitandukanye. Hari ubusitani bwiza, hari n'ibiti byiza byifashishwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Iki ni kimwe mu bigo bishinzwe kubungabunga ubuzima bwa muntu aho hari abaturage bagiye batandukanye, aho umuturage umwe yafashe indangururamajwi ari kuganiriza bagenzi be, hari abaturage bashinzwe inzego z'umutekano ndetse n'abandi, hari ubusitani bwiza bwifashishwa mu kwicaramo mu gihe wumva unaniwe bityo ukumva uguwe neza.

Uyu ni umwe mu baforomokazi bakorera inama iwacu mu Rwanda, bigaragara ko ari kwita ku murwayi yandikura imyirondoro ye, amubaza ahantu ababara, kugira ngo abashe gusuzumwa abona imiti, hari intebe nziza bifashisha bicayeho kugira ngo batananirwa, ndetse n'ikayi yifashishwa mu kwandikamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'ikaramu yo kubyandika.

Iri ni ivuriro ryitwa gira ubuzima aho ushobora kuhagana ufite ibibazo byinshi by'uburwayi bityo ukahabonera ubuvuzi ukavurwa ugakira. Hari ibiti byiza bitanga umwuka mwiza wo guhumeka, hari ikigega kibika amazi bityo isuku ikaba isoko y'ubuzima. Hari ubusitani bwiza ikindi kandi hari n'intebe ushobora kuhagana ukaruhukiramo mu gihe utegereje ubufasha.

Aba ni ababyeyi bazanye abana babo ku kigo nderabuzima, kugira ngo bakingirwe indwara nyinshi zigiye zitandukanye, bityo bagire ubuzima bwiza.

Uyu ni umwe mu baforomozi bita ku babyeyi batwite, hari amarido meza, hari uburiri bwiza umurwayi aryama akaruhukira, hari n'ibikoresho byifashishwa mu gupima ubuzima bw'umwana uri mu nda.

Uyu ni umwe mu baforomokazi ukorera ku kigo nderabuzima wita ku barwayi ndetse agasuzuma abarwayi bakabonera ubuvuzi bw'ibanze, bigaragara ko hari abakobwa babiri baje kwivuza bambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde gukwirakwira kw'indwara zigiye zitandukanye, hari ikayi yiashisha mu kwandika amakuru ndetse n'ikaramu yifashisha mu kwandika.

Imiti yifashishwa mu kuvura indwara z'amatungo, ikifashishwa mu gukingira indwara ndetse ikifashishwa no gukumira indwara ku matungo.

Umubyeyi uhetse umwana, akaba afashe n'undi w'umuhungu ukuboko, akaba afite n'ishakoshi mu kuboko kundi, akaba ari kwerekeza umwana kwa muganga kugira ngo ahabwe ubuvuzi abashe gukira.

Umubyeyi uhetse umwana amutwikirije agashuka k'umweru agana kwa muganga guhabwa serivise yo kuvuza umwana.